Umwana mutoya wicaye kuri robine ategera amazi mu kiganza, ni robine zubatswe kugira ngo abaturage babone amazi meza kandi afite isuku ndetse bayabone hafi yabo, hirya ye hari ibidomoro bivomerwamo ayo mazi.

Umumama ndetse n'umugabo bari kumwe n'umukozi ubishinzwe mu gutanga amazi ku baturage hakoreshejwe robine zubatswe kugira ngo abaturage babashe kubona amazi meza kandi afite isuku yifashishwa mu guteka ibiribwa mu kuyanywa ndetse no kuyafurisha imyambaro bambara.

Umwana mutoya uri kuvoma amazi mu gikombe, amazi yo kunywa kugira ngo ubuzima bwe bufashe gukomeza kumera neza. Ari kuvoma kuri robine zubatswe kugira ngo abaturage babashe kwegerezwa amazi asa neza kandi afite isuku, azabafasha mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi.

Abana batoya b'abanyeshuri bambaye iniforume z'ishuri bari ku kigo kirimo ibiti by'ubwoko butandukanye, hari kandi na kandagira ukarabe zashyizweho kugira ngo babashe gukaraba intoki birinda indwara zandurira mu kudakaraba intoki mu gihe bakoze ku myanda igiye itandukanye.

Abaganga barimo umukobwa ndetse n'umusore hari kandi n'umumama wicaye ku gitanda ndetse n'umwana uryamye ku gitanda. Abo baganga bari mu gikorwa cyo kumuvura indwara zitandukanye kugira ngo barebe ko yakongera kumera neza, ubuzima bugakomeza.

Umuganga ufite urushinge ndetse n'umuntu waje kwiteza urukingo rumurinda indwara zitandukanye ziterwa no kuba umuntu atarafashe inkingo zigenewe abantu. Mu gihe yarufashe kandi akabaho afite ubuzima bwiza buzira indwara.

Abaganga bari kumwe n'abaturage babapima indwara zitandukanye n'umuvuduko w'amaraso kugira ngo barebe niba harimo ibibazo mu buzima bwabo. Babashe kubaha imiti ibafasha kumera neza cyangwa se babagire inama z'uburyo bakwitwara kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza.

Umwana mutoya w'umuhungu wambaye iniforume y'ishuri uri kuvomera amazi mu gikombe ku kigega cyibasi kugira ngo gifate amazi haba aturuka ku mvura ndetse n'aturuka mu yandi masoko kugira ngo abashe guhabwa abanyeshuri babashe kumera neza mu gihe bari mu masomo.

Abakozi b'ikigo k'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda arabisi ndetse n'abakangurambaga mu nzego zitandukanye, bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri bashishikariza abanyarwanda kwisuzumisha ndetse no kwirinda indwara ya kanseri y'inkondo y'umura bafata inkingo zabugenewe kugira ngo babashe kwirinda.

Abanyeshuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa ku kigo cy'amashuri bambara inifomo y'ibara ry'ubururu rw'abakobwa ndetse n'ibara rya kacyi ku bahungu, bambaye kandi n'udupfukamunwa mu mabara atandukanye twabafasha mu kwirinda indwara z'ubuhumekero ndetse n'izindi. Bari gufata ifunguro rya saa sita ribafasha kugira babashe gukomeza amasomo ya nimugoroba bameze neza.

Uruhurirane rw'abaturage barimo abana batoya abagabo ndetse n'abagore , bari mu gikorwa cyo gutaha ivomo rusange ribahereza amazi bifashisha mu bikorwa bitandukanye , haba mu kuyatekesha , mu kuyanywa kuyakaraba ndetse no kuyafurisha imyambaro.

Umu mama uri kumwe n'umwana mutoya, bari mu murima w'imboga, basoroma imboga, bazifashisha kugira ngo bategure ifunguro ryujuje intungamubiri, kandi rimeze neza, imboga kandi zifasha abantu kugira ngo babashe kwirinda indwara zimwe na zimwe, nko kurwara amaso ndetse n'izindi.

Ku nkunga ya yunisefu ni robine zubatswe kugira ngo abaturage babashe kubona amazi meza, birinde gukoresha amazi asa nabi ashobora kubatera indwara z'ubwoko butandukanye zituruka ku gukoresha amazi mabi, hari abadamu baje kuvoma amazi bakoresheje indobo.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo abakozi babishinzwe mu nzego zitandukanye, abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi ndetse n'abaganga, bari mu gikorwa cyo gupima abana kugira ngo barebe imikurire yabo mu bijyanye n'uburebure kugira ngo babashe gutanga inama ku babyeyi kugira ngo ubuzima bw'abana babo bukomeze kugenda neza.

Abana batoya b'abanyeshuri bari gukaraba intoki kuri robine zubatswe kugira abashe kubona amaso meza abafasha kwirinda indwara zitandukanye, ziterwa no kuba bakoze ku myanda igiye itandukanye, inyuma yabo hari ishyamba ririmo ibiti ndetse n'indabo by'ubwoko butandukanye.

Abaturage bari gukoresha ivuro rya kijyambere ribafasha kubona amazi meza afite isuku kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza, hari abari kuvoma amazi bayatwara mu rugo ndetse n'abandi bari gukarabya abana.

Abahinzi biganjemo abagore ndetse n'abagabo bari gukusanya umusaruro ukomoka ku buhinzi, kugira ubashe gushyirwa ahantu hamwe abacuruzi ba kuwurangura, kugira ngo babashe kubaha amafaranga abafasha gukemura ibikorwa bitandukanye bikenera amafaranga.

Ababyeyi bafite abana batoya bari munsi y'imyaka itanu babajyanye ku kigo nderabuzima kugira ngo babashe gusaba serivise zitandukanye z'ubuvuzi zihatangirwa, haba gutanga imiti ku bana barwaye cyangwa se gutanga inkingo zagenewe aba bana zibafasha kugira imikurire myiza.

Umwana mutoya w'umuhungu wambaye uniforme z'ishuri, ari kuri kandagir'ukarabe yashyizweho kugira ngo abana babashe kubona amazi bakaraba intoki kugira ngo birinde indwara zandura mu gihe abantu batakarabye intoki kandi bakoze ku myanda, igiye itandukanye.

Umugabo ndetse n'umugore bari kunywa amazi kuri robine rusange zubatswe kugira ngo babashe kubona amazi meza, kandi afite isuku ndetse abegereye, abafasha gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi bikenera amazi, hirya yaho hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuganga uri kumwe numu mamama wazanye umwana mutoya mu ku musuzumisha kugira ngo barebe niba nta burwayi afite mu gihe babumusanzemo abashe guhabwa imiti imufasha kumera neza cyangwa se uyu mubyeyi agirwe inama azi uburyo ashobora kwita ku mwana we.

Abana b'abakobwa babiri bari kuvoma amazi kuri robine bakoresheje indobo ifite ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari y'ibyondo kandi isakaje ibyatsi, hari kandi n'umurima urimo ibihingwa ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ruguru yabo hari n'ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye.

Uruhurirane rw'abana batoya harimo n'abantu bakuru barigukaraba amazi ariguturuka ku itiyo ryapfumutse ritwara amazi kuri robine rusange zihereza abaturage amazi asa neza, kandi afite isuku. Abafasha mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi bikenera amazi.

Umwana mutoya w'umukobwa uri kuvoma amazi kuri yo robine za kijyambere zegerejwe abaturage, kugira babashe kubona amazi meza afite isuku kandi asa neza, ari kuvomera mu madobo y'umweru inyuma ye hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye biteye m’umurima.

Ku nkunga ya UNICEF ikura kuri buri mwana, hari abana batoya babiri bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune, hari umwana uri gukaraba intoki ndetse n'undi uri kumusukira amazi, kugira ngo birinde indwara ziterwa no kudakaraba intoki mu gihe bakoze ku myanda itandukanye.

Abantu mu ngeri zitandukanye barimo abakecuru, abasaza, abagabo, abagore, abakobwa ndetse n'abana batoya, bahuriye kwa muganga kugira ngo bahabwe serivise zitandukanye z'ubuvuzi. Kwa muganga kandi hari kandagira ukarabe zibafasha gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo birinde indwara, zandurira mu kudakaraba intoki kandi bakoze ku myanda itandukanye.

Ku kigo cy'amashuri hari indabo ndetse n'ibiti bizana umwuka mwiza mu kigo hari kandi n'ivomo ririmo amazi asukuye kandi asa neza afashishwa mu kuba abanyeshuri bayanywa cyangwa se bakayakaraba kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abana batoya b'urungano barimo abahungu ndetse n'abakobwa baherereye mu bice byo mu cyaro, bari kuri rebe rusange bakaba intoki. Ni robine zubatswe kugira ngo abaturage begere amazi asa neza kandi afite isuku abafasha gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi bikenera amazi.

Igikorwa cyitabiriwe n'abayobozi mu ngeri zitandukanye abaturage ndetse n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi kijyanye no kwita ku buzima, hari umugabo uhagaze uri gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima, agira abantu inama z'uburyo bakwitwara kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Ku kigo nderabuzima gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hanze ari abakozi babishinzwe bakora muri serivisi zitandukanye zitangirwa hano ku kigo nderabuzima haba gutanga imiti ku barwayi, gupima ababyeyi batwite cyangwa se gufasha ababyeyi bagiye kubyara.

Umuganga uri kumwe n'abaturage mu gutanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, ari kubabapima ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso, akoresheje igikoresho cyabugenewe kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze, babashe kugirwa inama ku buryo bwo kwirinda iyo ndwara cyangwa se barebe ibyo bakora mu gihe basanze bayifite.

Umwana mutoya uri kuri robine zubatswe kugira ngo abaturage babashe kubona amazi meza kandi afite isuku, abafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi. Inyuma ye hari ishyamba ry'ibiti by'ubwoko butandukanye, ari kuvomera mu ndobo zifite ibara ry'ubururu.

Umumama uvuye kuvoma wikoreye indobo ifite ibara ry'umutuku, afite n'iyindi mu ntoki ifite ibara ry'umuhondo, imbere ye hateye ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'amazu yubatse bigaragara nk'aho ari mu bice byo mu cyaro.

Ababyeyi, abana ndetse n'abaganga babishinzwe mu gutanga inkingo ku bana batoya z'ubwoko butandukanye, kugira ngo zibarinde kuzarwara indwara nk'imbasa n'ibindi byinshi bitandukanye, abana bahura na byo mu gihe batafashe izi nkingo.

Umuganga w'umugabo ndetse n'umubyeyi wazanye umwana we kugira ngo ashyirweho igipfuko ku gikomere, kugira ngo kimufashe gukira neza cyangwa se kimurinde kwandura izindi emfegisiyo ziterwa no kuba kitagiriwe isuku cyangwa se kitashyizwemo imiti yabugenewe.

Umupapa ufite ikidomoro, yaje kuvoma amazi kuri robine zubatswe kugira ngo abaturage babashe kwegerezwa amazi asa neza kandi afite isuku, abafasha mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi, nko kuyatekesha ibyo kurya, kuyafurisha imyambaro bambara, kuyogesha ibyombo cyangwa se kuyanywa.

Ababyeyi bafite abana bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'abakozi babishinzwe mu kigo k'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu rwego rw'abajyanama b'ubuzima mu gupima abo bana kugira ngo barebe imikurire yabo bagire ababyeyi babo inama bagomba gukurikiza kugira ngo abana babo babashe kugira imikurire myiza.

Umwana mutoya w'umukobwa wambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku ari gukaraba intoki akoresheje amazi ari guturuka muri robine zubatswe muri gahunda ya leta yo kwegereza abaturage amazi meza kandi afite isuku, amazi ari gukaraba arekurwa mu ibasi y'umukara inyuma ye hari igikuta cyubakisheje amatafari ya konkase.

Ababyeyi bafite abana mu ngeri zitandukanye, haba abari munsi y'imyaka itanu ndetse n'abari hejuru yayo ndetse n'abaganga, babihuguriwe mu gutanga inkingo ku bana batoya kugira ngo abana bagire imikurire myiza, mu gihe bafashe izi nkingo uko bikwiye.

Ababyeyi bafite abana batoya bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima, bari kubasuzuma kugira ngo barebe niba hari indwara bafite kugira ngo bakorerwe ubuvugizi bwo guhabwa imiti kuri izo ndwara cyangwa se mu kubagira inama ababyeyi kugira ngo babashe kwita ku bana babo.

Abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'abakangurambaga mu by'ubuvuzi, hari ababyeyi bazanye abana batoya bari munsi y'imyaka itanu kugira ngo bahabwe amata abafasha kugira ubuzima bwiza. Amata kandi arimo intungamubiri zifasha abana kugira imikurire myiza.

Mu muhanda harimo abaturage bari kujya mu bikorwa bitandukanye, abanyeshuri bavuye ku ishuri ndetse hari na rubine rusange zubatswe ziha abaturage amazi asa neza kandi afite isuku, hari umugabo uri kuvomera umwana mutoya amazi mu kadomoro kugira ngo ajyanire ababyeyi abashe kuyakoresha.

Abashinzwe umutekano, abanyeshuri ndetse n'abayobozi mu ngeri zitandukanye; mu gikorwa cyo guteza imbere imirire myiza, bubaka uturima tw'igikoni ndetse bateramo n'imboga z'ubwoko butandukanye; zifashishwa mu gutegura amafunguro yujuje ubuziranenge kandi afite indyo yuzuye.

Abana bato b'abanyeshuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa biga mu mashuri abanza bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune kuri robine zubatswe mu ibigo by'amashuri kugira ngo abanyeshuri babashe kugira isuku birinda indwara ziterwa no kutagira isuku mu gihe bakoze ku myanda itandukanye.

Umwana mutoya yikoreye ikidomoro kirimo amazi ajyanye mu rugo kugira ngo bayakoreshe ibikorwa byinshi bitandukanye, birimo nko kuyatekesha, kuyafuresha imyambaro, kuyogesha ibyombo ndetse no kuyakaraba. Ari kumwe n'umugabo umaze kumukorera icyo kidomoro.

Umudamu uri kuri robine uri koza igikoresho cyo gutwaramo amazi ahetse umwana, amazi ari bumfashe gukora ibikorwa byinshi bitandukanye, nko kuyafurisha imyambaro, kuyatekesha ibyo kurya, kuyogesha ibyombo ndetse no kuyakaraba kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abana batoya baje kuvoma amazi kuri robine rusange mu tudomoro kugira ngo babashe gukora ibikorwa bitandukanye nko kuyakaraba kugira ngo babashe kumva bameze neza, bari kumwe n'umukobwa uri kubafasha kuvoma ayo mazi, aberekera uburyo bakoresha iyo robine kugira ngo amazi abashe kuza.

Umumama wazanye umwana mutoya kwa muganga kugira ngo babashe kumuha urukingo rumufasha kugira ubuzima bwiza, hari umuganga w'umumama uri guha umwana uru rukingo, ni urukingo rufasha abana batoya kugira imikurire myiza ndetse rukanabarinda indwara zibafata mu gihe batafashe neza izi nkingo uko zibagenewe.

Umubyeyi ufite umwana mutoya uri munsi y'imyaka ibiri, ari kumwe n'umuganga uri kumuha urukingo rumufasha kugira imikurire myiza ndetse rumurinda kurwara indwara zifata abana batoya mu gihe batafashe neza izi nkingo zibagenewe.

Urugo ruherereye mu cyaro ruzitije imiyenzi kandi mu gikari hari akarima k'igikoni karimo imboga za dodo ingemo zeraho ibitoki biribwa ndetse n'ibivamo umutobe hari kandi n'agatanda kubakishije ibiti kariho amasahane, ibikombe ndetse n'amasorori.

Abana batoya bari kuvoma amazi mu bidomoro, kuri robine zubatswe kugira ngo abaturage babashe kubona amazi asa neza afite isuku, abafasha kugira ubuzima bwiza mu bikorwa byabo bya buri munsi, nko kuyategereza ibyo kurya, kuyafurisha imyambaro bambara, kuyanywa ndetse no kuyogesha ibyombo.

Inzu igaragara nk'aho iherereye mu bice byo mu cyaro, hari umudamu uri gukoresha kandagira ukararabe ikozwe mu biti ndetse n'akadomoro yifashishwa mu gihe umuntu avuye ku bwiherero agakaraba kugira ngo atagira imyanda imuteza kwandura indwara zitandukanye.

Abaturage baje kuvoma amazi kuri robine rusange zubatswe kugira ngo babashe kubona amazi meza kandi asa neza bayakoreshe ibikorwa byinshi bitandukanye bituma bagira ubuzima bwiza, bayatekesha ibyokurya, kuyafurisha imyenda bambara ndetse no kuyogesha ibyombo.

Abaturage barimo abana batoya abantu bakuru bafite ibidomoro ndetse n'utudobo, baje kuvoma amazi kuri robine rusange zubatswe kugirango ngo babone amazi meza kandi asa neza, hakaba hari n'abakozi babishinzwe bakiri gutunganya robine kugira ngo zibashe kubaha amazi meza.

Umuganga w'umukobwa ndetse n'umubyeyi wazanye umwana we kumupimisha indwara zitandukanye. Umuganga ari kumupima imiterere y'umutima akoresheje agakoresho kabugenewe kugira ngo abashe guhabwa imiti mu gihe asanzwe afite ikibazo cyangwa se abashe kugirwa inama z'uburyo yakwirinda zimwe mu ndwara zitandukanye.

Ababyeyi bari gufungura robine ndetse n'undi urikuvoma. Bari kuvoma kuri robine rusange zubatswe kugira ngo begerezwe amazi meza kandi afite isuku abafasha gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi bikenera amazi.

Abakozi babishinzwe muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ndetse n'ababyeyi bafite abana batoya bari munsi y'imyaka itanu bari mu gikorwa cyo guhabwa amata abafasha kugira imikurire myiza, ndetse amata arimo intungamubiri zifasha abana kugira ubuzima bwiza.

Umwana mutoya uri kuvoma amazi mu kidomoro, ari kuyavoma mu gishanga ni amazi yifashisha mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi bikenera amazi, nko kuyafurisha imyambaro wambara, kuyogesha imyambaro wambara kuyakaraba, ndetse no kuyanywa cyangwa se kuyatekesha ibyo kurya,

Abana babiri batoya bari imbere y'inyubako iherereye mubice byo mu cyaro ifite urugi rukoze mu biti, bari gukaraba intoki hakoresheje isabune n'amazi, hari uwunamye uri gukaraba mu intoki ndetse n'undi uhagaze uri kumusukera amazi.

Umwana w'umunyeshuri wambaye inifomo zirimo ibara ry'umutuku, ari gukoresha kandagira ukaraba zifashishwa mu bigo by'amashuri, kugira ngo abanyeshuri babashe gukaraba neza intoki mu gihe bavuye mu bwiherero, kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Abashinzwe kwita ku buzima, abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'abashinzwe umutekano mu rwego rw'ingabo z'igihugu, bari mu gikorwa cyo guha abana batoya amata abafasha kugira ubuzima bwiza, amata kandi abamo intungamubiri zifasha abana kugira imikorere myiza.

Umujyanama w'ubuzima uri kumwe n'umuryango ufite umumama utwite, uri kubagira inama z'uburyo bagomba kwitwara kugira ngo bazabyare umwana umeze neza, ibyo bagomba kwitaho, ibyo bagomba kwirinda, kugira ngo ubuzima bw'umwana batwite ndetse n'ubw'umubyeyi bukomeze kugenda neza.

Abana batoya ndetse n'abantu bakuru, baje kuri robine rusange gutwara amazi bakoresheje amabase ndetse n'amadomoro, amazi abafasha gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi bikenera amazi, nko kuyakaraba, kuyafurisha imyambaro bambara, kuyatekesha ibyo kurya cyangwa se kuyogesha ibyombo.

Abana batoya bicaye imbere ya robine bari gukaraba intoki bakoresheje amazi ari kuva muri robine zubatswe muri gahunda ya leta kugiragereze amazi afite isuku kandi asa neza, zibafasha gukora ibikorwa bitandukanye, haba mu kuyatekesha kugira ngo barye ibiribwa bifite isuku, kuyanywa kugirango bagire ubuzima bwiza ndetse, no kuyafurisha imyambaro bambara.

Abana batoya bari kuvo amazi bakoresheje indobo zifite ibara ry'umweru baravoma kuri robine rusange zubatswe kugira abaturage begerezwe amazi asa neza kugira ngo abafashe gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi bikenera amazi.

Abana batoya biga mu mashuri abanza, barimo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye iniforume z'ishuri, bari ku kigo cy'amashuri, bari gukoresha ibikoresho byabugenewe mu gushyirwamo amazi meza kandi asa neza, agahabwa abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza.

Umumama ndetse n'umwana mutoya bari kuvoma amazi mu gishanga bakoresheje ibidomoro. Ni amazi afasha abaturage begereye iki gishanga gukora ibikorwa bitandukanye nko kuyavomereza imyaka kugirango ibashe gukura neza, kuyavoma bayakoresha ibikorwa bitandukanye byo mu rugo bikenera amazi.

Abana batoya, abasaza ndetse n'abagabo bakiri bato baherereye mu bice byo mu cyaro bari kumwe n'umuntu uri kubafasha mu kuberekera uburyo bakoresha ivomo rya kijyambere bavoma amazi asa neza kandi afite isuku bazifashisha mu bikorwa bitandukanye, haba mu kuyatekesha ibyo kurya, kuyafurisha imyambaro ndetse no kuyogesha ibyobo.

Abaturage bazanye ibidomoro baje kuvoma amazi kuri robine rusange, hariho n'umuntu ushinzwe kubaha ayo mazi. Ni amazi abafasha gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi, bikenera amazi nko kuyatekesha ibyo kurya, kuyafuri imyambaro cyangwa se kuyanywa.

Abaturage barimo abana batuye ndetse n'abadamu ba kuvoma amazi mu bidomoro kurirobene zubatswe kugira ngo abaturage begerezwe amazi meza kandi afite isuku abafasha gukura neza ibikorwa byabo bya buri munsi nko kuyatekesha ibyo kurya, bayafurisha imyambaro, ndetse no kuyakaraba.

Abaganga bambaye ibikoresho bibarinda kwandura indwara zimwe na zimwe haba izandurira amatembabuzi ndetse n'izindi, bari gusuzuma abaturage ibijyanye n'ubuzima bw'amenyo kugira ngo barebe niba nta bibazo bafite mu kanwa kabo, mu gihe babibasanganye babashe kubaha imiti ibafasha kumera neza.

Ababyeyi bafite abana bakiri batoya bahuriye kwa muganga kugira ngo babashe gufata inkingo zitandukanye cyangwa se bagirwe inama y'ibyo bakora kugira ngo imikurire y'abana babo ikomeze kugenda neza, cyangwa se babe bafata imiti itandukanye mu gihe abana babo bafite ibibazo by'uburwayi.

Uruhurirane rw'abantu barimo abagabo abagore abasaza ndetse n'abakecuru bahuriye ahantu baje gusaba serivisi zitandukanye haridarap ry'igihugu cy'u Rwanda ruguru yabo kandi hari umurima urimo ibiti ndetse n'ibihingwa by'ubwoko butandukanye.

Umugabo uri kuvoma amazi mu kidomoro, ari kuvoma amazi kuri robine zubatse, kugira ngo abaturage begerezwe amazi meza kandi afite isuku. Abafasha gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi, bikenera amazi.

Abaganga bari kumwe n'abaturage baje mu gikorwa cyo kwifatisha amaraso kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze, barebe mu maraso yabo cyangwa se mu mubiri wabo niba nta ndwara zirimo, mu gihe bazisanzemo babashe kubaha imiti, hari kandi n'ababishinzwe bari kuyobora abaturage aho bagomba kujya kugira ngo bahabwe izo serivise.

Umukozi ubishinzwe muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi hari umubyeyi wazanye umwana, kugira ngo bamuhe urukingo rumufashe kugira imikurire myiza, ndetse rumurinde indwara ziterwa no kuba atarafashe izi nkingo zigenewe abana batoya.

Abamama bari kuri robine rusange zubatswe kugira abaturage begerezwe amazi meza kandi afite isuku, abafasha gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi bikenera amazi nko kuyanywa, kuyatekesha ibyo kurya, kuyafurisha imyambaro, kuyakaraba ndetse n'ibindi.

Umunyeshuri wambaye imyenda ifite ibara ry'iroza ari ku ikigega cyubatswe kugira ngo gifate amazi haba aturuka ku mvura ndetse n'andi aturuka mu masoko atandukanye, ari kuvomera amazi mu gikombe, amazi yo kunywa kugira ngo amufashe kumva ameze neza mu mubiri abashe gukomeza amasomo.

Abana batoya barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bari koga mu mazi atemba y'igishanga. Ni amazi afasha abaturage bahegereye, gukora ibikorwa bitandukanye; nko kuyavomereza ibihingwa, kuyakoresha ibyo mu rugo, ndetse no kogwamo n'abana, kugira ngo bumve bameze neza.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itandatu, cumi n'ibiri bari gukoresha ivomo ryabugenewe muri gahunda ya Leta yo kubegereza amazi asa neza afite isuku bifashisha mu gukora ibikorwa bitandukanye bamukuyemo kugira ngo bagire ubuzima bwiza kuyatekesha, kuyayakayaba, ndetse no kuyogesha ibyombo.

Abaturage barimo abana batoya, abagore ndetse n'abagabo, baherereye mu bice byo mu cyaro bari ku ivomero rya kijyambere, rizabafasha mu kubona amazi asa neza kandi afite isuku, yifashishwa mu bikorwa bitandukanye haba guteka, kuyanywa, kuyafurisha imyenda, ndetse no kuyogesha ibyombo.

Abakozi babishinzwe mu by'ubuvuzi mu gutanga serivisi zitandukanye zo kwa muganga hari umubyeyi uri kumwe n'umwana waje guhabwa urukingo kugira ngo bimurinde kuzagira ingaruka ku mikurire ye mu gihe yaba atarafashe urwo rukingo.

Umumama utera umwana, uri kuvoma amazi kuri robine akoresheje indobo ifite ibara ry'umukara, ni amazi ari bumufashe gukora ibikorwa bitandukanye, nko kuyafurisha imyambaro, kuyatekesha ibyo kurya, kuyanywa cyangwa se kuyogesha ibyombo.

WASAC, ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi asa neza kandi afite isuku mu baturage, amazi abafasha gukora ibikorwa bitandukanye, nko kuyanywa kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kuyatekesha ibyo kurya, kuyakaraba, kuyafurisha imyambaro ndetse no kuyogesha ibyombo.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu gutanga serivisi zitandukanye ari kumwe n'umuturage waje kwiteza urushinge kugira ngo yikingire indwara z'ubwoko butandukanye bose bambaye udupfukamunwa tubafasha kwirinda indwara z'ubuhumekero ndetse n'izindi zandurira mu matembabuzi.

Umuntu uri gukaraba intoki kuri robine akoresheje amazi meza ndetse n'isabune ni ibintu bifasha abantu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda mu gihe batakarabye intoki kandi bakoze ku myanda igiye itandukanyekanye.

Umuganga uri kumwe n'abana bato b'abanyeshuri, bari mu kiciro cy'imyaka cumi n'ibiri, bari guhabwa inkingo zibakingira indwara ndetse n'ibyorezo bitandukanye, harimo nka kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'ibindi byorezo bikunda kwibasirwa abana mu gihe batafashe izi nkingo.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu rwanda arabisi, bari kumwe n'abaturage mu gutanga inkingo, zibakingira indwara zitandukanye, bose hamwe n'abaturage bambaye udupfukamuwa tubarinda, indwara zandurira mu buhumekero, ndetse n'izindi zandurira mu matembabuzi.

Uumwana w'umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ari gukaraba amazi akoresheje ivomo rya kijyambere, ari mu bice bigaragara nkaho ari mu cyaro, hari inzu zubatse mu buryo butandukanye ibiti by'amoko atandukanye ateye hagati muri ayo mazu

Umwana mutoya w'umuhungu uri kuvoma amazi kuri robine, amazi yifasha mu bikorwa bitandukanye nko kuyanywa, kuyatekesha ibyo kurya, kuyafarisha imyambaro ndetse no kuyogesha ibyombo. Ari kuyavoma kuri robine zubatswe kugira ngo abaturage begerezwe amazi asa neza kandi afite isuku.

Ku kigonderabuzima hari inyubako zitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hari abaje kwaka izo serivisi ndetse n'abayobozi bicaye bari kuganira ku buryo bwakorwa kugirango imitangire ya serivisi kuri iki kigonderabuzima imere neza.

Abana batoya bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune, hari umugabo uri kubasukira amazi kugira ngo babashe gukomeza gukaraba neza, birinda indwara ziterwa no kudakaraba intoki mu gihe bakoze ku myanda itandukanye ishobora kubateza indwara.

Umumama wikoreye ikijerekani gifite ibara ry'umuhondo akijyanye mu rugo, kirimo amazi amufasha gukora ibikorwa byinshi bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu kuyatekesha ibyo kurya, kuyafurisha imyambaro, kuyogesha ibyombo cyangwa se mu kuyanywa.

Abantu mu ngeri zitandukanye barimo abana batoya, abagabo ndetse n'abagore baje kuvoma amazi kuri robine rusange bakoresheje ibidomo ndetse n'amabase, amazi ari bubafashe gukora ibikorwa bitandukanye nko kuyatekeshya ibyo kurya, kuyafurisha imyambaro, kuyanywa cyangwa se kuyakaraba.

Abaturage barimo abagabo, abagore, abakobwa, ndetse n'abasore harimo n'abana batoya, abashinzwe umutekano mu rwego rwa daso bose bahuriye ahantu bisa nkaho habaye ibyaha, haparitse kandi imodoka ya ambilanse ishinzwe gutwara abantu mu gihe bafite ibibazo byihutirwa cyangwa se mu gihe abantu batakaje ubuzima.

Abaturage barimo abana batoya, abasore, abakobwa ndetse n'abagore bari gutaha ivomo rya kijyambere ribafasha kubona amazi meza kandi asa neza, bari kumwe kandi n'umuntu uri kubafasha kubererekera uburyo bafungura amazi ndetse n'uburyo bayafunga.

Umwana mutoya uri gukoresha ivomo rya kijyambere muri gahunda ya leta yo kwegereza abaturage amazi meza kandi afite isuku, abafasha mu bikorwa bya buri munsi mu kuywa kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kuyakaraba, kuyogesha ibyombo ndetse no kuyafurisha imyambaro bambara.

Ikigo nderabuzima cya Mayange gitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ku barwayi batandukanye. Hari abakozi babishinzwe mu gutanga izi serivisi zitangirwa kuri iki kigo nderabuzima, bari kumwe n'ababasuye barimo abanyamahanga, bari kwishimira yuko babasuye.

Abakozi babishinzwe mu kigo k'igihugu gishinzwe kwita ku buzima ndetse n'abaturage bitabiriye igikorwa cyo kwakira ingingo ku ndwara zitandukanye, bose hamwe bambaye udupfukamunwa tubafasha kwirinda indwara z'ubuhumekero ndetse n'izindi zose zandurira mu matembabuzi.

Abana b'abanyeshuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye ifomo zifite ibara rya kaki, bari kuvomera amazi mu ndobo kuri robine zubatswe ku bigo by'amashuri kugira ngo babashe kubona amazi, bakoresha mu bikorwa bitandukanye nko kuyanywa kuyasukurisha ibyumba by'amashuri ndetse n'ibindi.

Inzu yubakishije amabati ikaba isakaje na none amabati, hari kandi imyenda yanitse ku mugozi ndetse n'umukobwa wicaye uri kuvoma amazi mu kidomoro giteretse mu mabasi ari guturuka muri robine, ahongaho mu gikari hari ibiti by'imbuto zitandukanye nk'ipapayi ndetse n'ibindi.

Umupapa wambaye ishati ya burusiyeri, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, ari mu rugo rufite imbuga irimo indabo zifite amabara atandukanye ari gukoresha kandagira ukarabe ikozwe mu biti ndetse n'akadomoro bifashisha mu gihe bavuye mu bwiherero kugira ngo ngo birinde kwandura indwara zitandukanye.

Ibigega bishyirwa ku bigo by'amashuri kugira ngo bijyemo amazi ahabwa abanyeshuri mu kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bafite amazi ahagije mu mubiri wabo. Hari abanyeshuri bari kunywa amazi bakoresheje ibikombe kugira ngo babashe kumva bameze neza, mu gihe bafite amazi ahagije mu mubiri wabo.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ashobora kuba yaratewe n'ibibazo bitandukanye, ari ahantu habugenewe hamenwa imyanda mu gutoragura ibikoresho bitandukanye haba amarinete, ibikoresho yifashisha yita nk'imbunda, amashashi, ndetse n'ibindi.

Abantu mu ngeri zitandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore bitabiriye inama ivuga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyane cyane ku bwonko, hari umumama uhagaze uri gutanga ikiganiro kugira ngo abantu bamenye byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umumama uri mu iduka ricuruza ibikoresho abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi nk'amavuta yo kwisiga kugira ngo uruhu rwabo rukomeze kumera neza, uburoso bukoreshwa mu koza amenyo kugira ngo abantu birinde indwara zifata amenyo zitewe no kutayagirira isuku.

Madamu w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul kagame wari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ashishikariza abanyarwanda uburyo bwo kubyirinda. Abaha inama z'uburyo bakwiye kubana n'abantu bafite ibyo bibazo cyangwa se nabo uburyo bakoresha kugira ngo birinde kubana nabyo

Abakozi mu nzego zitandukanye ndetse n'abakangurambaga bari mu gihugukorwa cyo gutera ibiti ahantu hagiye hatandukanye, ibiti bifasha mu kurinda isuri, bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka, bivamo imiti y'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikorwa mu biti.

Abakozi babishinzwe mu nzego zitandukanye, abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi ndetse n'abakangurambaga mu gikorwa cyo gushishikariza abaturage kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose; haba rishingiye ku gitsina, irishingiye kutitabwaho ndetse n'irindi ryose rikorerwa abaturage muri rusange.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ari mu muhanda wa kaburimbo ahagaze mu nzira yagenewe abanyamaguru, uyu umuhanda urimo ibinyabiziga, moto ndetse n'imodoka, ukikijwe n'ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umumama uherereye mu bice byo mu cyaro yicaye ku ntebe bita karambarazi imbere ye hari umusambi bifashisha mu bikorwa bitandukanye mu kuwicaraho baruhuka bafata ifunguro rya saa sita cyangwa se irya nimugoroba yicaye mu nzu yubakishije amatafari n'ibyondo.

Umumama ufite umuryango w'abana babiri hari uwo ahetse ndetse hari n'undi uhagaze, bicaye mu nzu yubakishije ibyondo, barimo guteka igikoma kibafasha kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Inyubako y'ibitaro bya karayesi indera yakira abantu bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, haba ababitewe no kuba barabivukanye cyangwa se babitewe n'ibibazo bagiye bahura nabyo mu buzima bwabo, hari umugabo w'umuzungu uhagaze bisa nk'aho yari yaje gusura abarwayi bari muri ibyo bitaro.

Abamama, abapapa ndetse n'abana batoya, bishimye cyane mu gikorwa cyiza, bafite amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda mu ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC ndetse n'uruhurirane rw'abayobozi mu nzego zitandukanye mu bijyanye n'ubuvuzi, ku munsi wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo harebere hamwe ingamba zafatwa kugira ngo birinde ubwo burwayi cyangwa se bagire inama mu bijyanye n'uburyo bafata neza abafite ibyo bibazo byo mu mutwe.

Umukecuru ugeze mu zabukuru uherereye mu bice byo mu cyaro, uri guteka igikoma ku mashyiga, igikoma kiri bumufashe kumva ameze neza mu umubiri ndetse kikamwongerera n'imbaraga, hirya ye hari urutoki rurimo ingemwe.

Umubyeyi uba mu bice byo mu cyaro afite isuka mu ntoki yikuriye igikoresho bita igitebo, kirimo imigozi yeraraho ibijumba yifashishwa mu guhaza umuryango cyangwa se bikaba byajyanwa ku isoko hakavamo amafaranga akemura ibibazo bitandukanye, kandi iyi migozi yakifashishwa nk'ibiryo by'amatungo nk'ingurube, ihene, inka ndetse n'izindi.

Muri gahunda ijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, hari abaganga bari kumwe n'abaturage, kugira ngo babashe kuganira nabo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze. Mu gihe basanze hari ibibazo bafite bagirwe inama z'uburyo bashobora kubigira cyangwa se bahabwe imiti ishobora kubafasha.

Umumama uri mu iduka ricuruza ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo dutegure amafunguro ameze neza nk'ibirungo, sositomate, bleu band, ndetse n'ibindi, yambaye kandi n'ijiri rikoreshwa n'aba agent ba MTN mu gutanga amayinite cyangwa se kubitsa no kubikuza amafaranga.

Abaganga bari kuganiriza umubyeyi kugira ngo bamenye ibibazo afite babashe kumugira inama z'uburyo byakemuka, cyangwa se bamuhe imiti mu gihe basanze afite uburwayi, bose hamwe ari abaganga ndetse n'umubyeyi bambaye udupfukamuwa tubarinda kwandura indwara zandurira mu matembabuzi.

Umu mama ndetse n'umwana mutoya bari muri dushe boza amenyo bakoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bwabugenewe mu koza amenyo kugira ngo birinde kwandura indwara zifata amenyo mu gihe atagiriwe isuku cyangwa se atogejwe neza nkuko bikwiye.

Abaganga babishinzwe mu bijyanye n'ubuzima bw'amenyo, hari umumama waje kwivuza iryinyo kugira ngo yongere kumera neza ndetse binamufashe kurinda ayandi menyo kuba yakwandura, mu gihe iri ryinyo babashije kurikuramo.

Umwana mutoya ufite uburoso bushyirwaho umuti wababugenewe mu koza amenyo kugira ngo buririnde umuntu kuba yagira ibibazo biterwa no kuba atagirira isukuri y'amenyo cyangwa se yirinde izindi ndwara ziterwa no kuba atagirira isuku amenyo y'iwe.

Abaganga babiri barimo umukobwa ndetse n'umuhungu, bari kumwe n'umwana mutoya bari kumureba mu kanwa kugira ngo barebe niba ntakibazo yaba afite, mu gihe basanze afite uburwayi babashe kumuha imiti imufasha kumera neza cyangwa se mu gihe basanze nta kibazo afite, babashe kumugira inama z'uburyo yabigenza agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Abana b'abanyeshuri harimo abahungu ndetse n'abakobwa bari ku kigo cy'amashuri, bari mu gikorwa cyo koza amenyo bakoresheje umuti wabugenewe, uburoso ndetse n'amazi kugira ngo babe birinda indwara zakataka amenyo yabo mu gihe kizaza.

Abana bato b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kumwe n'abarimu babo bafasha mu myigire yabo ya buri munsi. Bafite uburosu na korogate bibafasha koza amenyo yabo agahora asa neza kandi afite isuku ndetse bakayarinda n'indwara zitandukanye zifata amenyo mu gihe atagiriwe isuku.

Abaganga babishinzwe mu by'ubuzima bw'amenyo bari gusuzuma abana batoya kugira ngo barebe uko amenyo yabo ameze, mu gihe basanze bafite ibibazo babashe kubaha imiti ibafasha kumera neza cyangwa se babagire inama z'uburyo bashobora gukoresha kugira ngo amenyo yabo bayarinde uburwayi ubwo aribwo bwose.

Abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari mu kigero cy'imyaka itandatu cumi n'umwe bari mu gikorwa cyo koza amenyo bakoresheje umuti wabugenewe uburoso ndetse n'amazi mu kwirinda indwara zaterwa no kuba batoza amenyo yabo.

Umwana mutoya w'umukobwa ufite uburoso bwifashishwa mu koza amenyo, hakoreshejwe umuti wabugenewe, kugira ngo hirinde indwara zifata amenyo mu gihe umuntu atagiriye isuku amenyo y'iwe.

Umuganga wabihuguriwe mu bijyanye n'ubuzima bw'amenyo, hari umwana waje kwivuza kugira ngo barebe ko amenyo ye adafite ikibazo, mu gihe basanze hari arwaye bayakuremo kugira ngo hirindwe kwanduza andi cyangwa se abashe guhabwa imiti iyoroshya.

Abakozi mu ngeri zitandukanye mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima, mu gutanga serivisi ku ndwara zitandukanye, hari kandi n'umumama uri kumwe n'umuganga, mu kureba ibijyanye n'amenyo, mu gihe harimo ikibazo bakaba bayakura cyangwa se akaba yagirwa inama zitandukanye kugira ngo abashe kugira amenyo ameze neza, azira uburwayi.

Umuganga w'umusore uri gupima umupapa kugira ngo arebe mu kanwa ke niba nta bibazo by'uburwayi burimo cyangwa se mu menyo ye mu gihe asanzemo ibibazo abashe kuba yamuha imiti imufasha kumera neza cyangwa se mu gihe asanze ntabyo afite abashe kumugira inama z'uburyo agomba gukoresha kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abarimu ndetse n'abakozi babishinzwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, mu gikorwa cyo kwigisha abanyeshuri bari mu myaka ibanza, uburyo bwo koza amenyo bakoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe.

Abaganga babishinzwe mu buzima bw'amenyo bari kuvura umumama iri ryinyo bakuramo kugira ngo hirinde kuba yakanduza andi menyo, ndetse nayo bakaba bayakuramo cyangwa se kugira ngo amenyo ye akomeze kumera neza mu gihe iryamubabazaga barikuyemo.

Abaganga bashinzwe ubuzima bujyanye n'amenyo. Hari umuntu waje kwikuza iryinyo kugira ngo bakuremo ritabangamira ayandi menyo. Iyo bakuyemo kandi rituma ubuzima bw'umuntu bwongera kumera neza ndetse n'ayandi menyo agakomeza kumera neza kuko iryatumaga nayo amera nabi bakuyemo.

Abayobozi baturutse mu Kigo cy'Igihugu Gishinzwe Kwita ku Buzima ndetse n'abarimu bigisha mu mashuri. Hari abana batoya biga mu mashuri abanza, bari kwigishwa uburyo wakoza amenyo ukoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe. Aba bayobozi bifashishije igikoresho kibafasha gusobanura neza kugira ngo abana babashe kubyumva.

Umuganga w'umukobwa ukora muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, hari umugabo uryamye ku gitanda waje kwikuza iryinyo kugira ngo abashe kumva ameze neza kandi yirinde no kwanduza andi menyo akiri mazima.

Abana batoya bambaye uniforme z'ishuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa bari kumwe n'abarimu babo babafasha mu myigire yabo ya buri munsi bafite uburoso ndetse n'amati yabagenewe mu koza amenyo uzabafasha koza neza amenyo yabo kugira ngo birinde indwara zifata amenyo mu gihe atagiriwe isuku.

Umu mama ukiri muto ndetse n'undi ugeze mu zabukuru bari muri siporo ngororamubiri, kugira ngo zibafashe kugira ubuzima bwiza kandi birinde n'indwara ziba zatewe no kudakora siporo nko kurwara umugongo, kurwara rubagimpande ndetse n'izindi ndwara zifata abageze mu zabukuru.

Umuganga uri gusuzuma umukecuru ugeze mu za bukuru kugira ngo amenye uko ubuzima bwiwe buhagaze mu gihe amusanganye indwara abasha kumuha imiti imufasha kumera neza cyangwa se mu gihe asanze nta ndwara afite abashe kumugira inama z'uburyo yakwitwara kugira ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Umumama ugeze mu zabukuru uri gukora siporo ngororamubiri zimufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza cyangwa se kwirinda indwara zifata abantu bageze mu zabukuru nko kurwara umugongo, kurwara rubagimpande ndetse n'izindi ndwara.

Umukino bita igisoro ukunda gukinwa n'abageze mu za bukuru kugira ngo abashe gusabana hagati yabo birinde kuguma mu rugo bonyine babe bagira irungu, ubafasha kandi kungurana ibitekerezo hagati yabo mu gihe bari kuwukina.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, uri gukora siporo ngororamubiri yifashishije ibikoresho byabugenewe, kugira ngo yirinde indwara zifata abantu mu gihe batakoze siporo ndetse n'izindi zifata abageze mu zabukuru nko kurwara imigongo, jurwara imitsi ndetse n'ibindi.

Umugabo ndetse n'umugore bari gufasha umusaza ugeze mu zabukuru kubasha kubyuka ku buriri kugira ngo abashe kugenda mu gihe yaba afite ikibazo gituma atabasha kwibyutsa cyangwa se kwigendesha ari wenyine.

Abasaza bari gukina umukino bita igisobo ni umukino ukundwa n'abageze mu zabukuru kuko ubafasha kuruhuka mu mutwe ubafasha gusabana n'abandi bageze mu rungano rwabo ndetse ukabarinda kuguma mu rugo baticwa n'irungu.

Abahinzi mu ngeri zitandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo bahinga ibihingwa bijyanwa kugira ngo bihaze umuryango, ibindi bikajyanwa ku isoko kugira ngo babashe kubona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye bya buri munsi bikenera amafaranga.

Umusaza ndetse n'umukecuru bageze mu zabukuru bari gukora siporo ngororamubiri zibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zifata abageze mu zabukuru mu gihe batakoze siporo ngororamubiri, harimo nko kurwara imigongo, kurwara imitsi n'izindi zifata abageze mu zabukuru.

Umuganga w'umukobwa uri gusunika umusaza ugeze mu za bukuru mu gakoresho bita akagare, gahabwa abantu bageze mu zabukuru batakibasha kugenda cyangwa se abandi bahuye n'ibibazo batewe n'impanuka, kabafasha kujya ahantu henshi hatandukanye bakoresheje aka gakoresho.

Abakecuru ndetse n'abasaza bageze mu zabukuru bari gukora siporo bifashishije udukoresho twabugenewe. Siporo zibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza birinda indwara zifata abageze mu zabukuru mu gihe batakoze siporo ngororamubiri.

Umuganga wambaye inifomu zifite ibara ry'ubururu, ari kumwe n'umurwayi wicaye mu kagare gafasha abantu bafite ubumuga kuba batabasha kugenda, arimo aramupima ajyanye n'umuvuduko w'amaraso.

Umubyeyi ugeze mu zabukuru, uri kuganira n'umukobwa we, bishimye bameze neza, ariko kandi banategura ifunguro ririmo imboga, inyanya, karoti, kokombure ndetse n'ibindi, ifunguro riri bubafashe kugira ngo babashe kuguma bameze neza, ubuzima bwabo bugende neza.

Umuganga ukora mu bitaro bitanga serivisi z'ubwoko butandukanye hari umusaza ugeze mu za bukuru waje kwipimisha ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso kugira ngo amenye ibyo agomba kwirinda mu gihe yasanze atawufite cyangwa se agirwe inama y'ibyo akora kugira ngo abashe kuwukira mu gihe yasanze awufite.

Itsinda ry'abagore bari mu murima w'icyayi barimo basoroma bakijyana ku isoko kugira ngo kibashe kuvanwamo ikawa ihabwa abaturage ndetse kikavamo n'amafaranga abasha gukemura ibibazo bitandukanye, haba iby'igihugu ndetse n'ibyo abaturage muri rusange.

Isoko ririmo abadamu mu ngeri zitandukanye harimo kandi n'ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi imbuto ndetse n'imboga nk'inyanya, amatunda, ndetse n'amaronji bijyanwa ku isoko kugira ngo bihabwe abaguzi babashe kugira ubuzima bwiza mu gihe babashije kubona izo mbuto ndetse n'imboga.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru, hari umusaza wari gufata imiti imufasha kumera neza, ndetse n'umukecuru uri kumusomera ku rupapuro kugira ngo amenye ingano y'imiti ari bunywe ndetse n'icyo agiye kuyinywera bitewe n'indwara arwaye.

Umukobwa uri kumwe n'umusaza uri mu kagare, ari kumucunga amutembereza hanze kugira ngo abashe gutora akayaga, abasha kota akazuba, kamufasha kubona vitamine zimwe na zimwe, ni agakoresho bicazamo umuntu bashagakoresha igihe ingingo ze zahuye n'ikibazo atakibasha kugenda.

Abaturage mu ngeri zitandukanye bari kumwe n'abayobozi mu gikorwa cy'inteko y'abaturage, aho batanga ibyifuzo ku bibazo bafite mu mudugudu wabo, bakarebera hamwe uburyo byakemuka bagasaba serivise zitandukanye mu bayobozi babo kugira ngo umudugudu wabo ubashe kugira iterambere rirambye.

Umusaza uri kumwe n'umugabo utarasaza cyane, bari kunyura mu muhanda wubakishije amapave, ni umuhanda uri hagati y'ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye, bimera mu bice byo mu ishyamba bivamo ibikoresho bitandukanye, haba intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu.

Umumama ugeze mu zabukuru, uri gukora siporo ngororamubiri zimufasha kwirinda indwara ziterwa no kudakora siporo cyangwa se izindi ndwara zifata abageze mu zabukuru, mu gihe badakora siporo, nko kurwara umugongo, kurwara imitsi ndetse n'izindi ndwara.

Umusaza ugeze mu za bukuru uri muri siporo zimufasha kugira ngo abashe kwirinda indwara zimwe na zimwe, haba iz'imitsi, indwara zo mu ngingo ndetse n'izindi ndwara zifata abantu bageze mu gihe cy'izabukuru.

Umurwayi uri kwa muganga uri gukoresha agakoresho bifashisha mu gihe umuntu atakiri kubasha kugenda, kakaba kamufasha kugira ngo azabashe kugenda mu minsi iri imbere, bitewe no kuba yari amaze igihe kinini aryamye.

Muganga w'umukobwa uri kumwe n'umusaza ugeze mu za bukuru, wicaye mu kagare gahabwa abantu bagize ibibazo bitandukanye bituma batabasha kugenda kabafasha kujya ahantu hatandukanye bagakora serivise zitandukanye bakoresheje ako gakoresho.

Umuryango urimo abageze mu zabukuru bari ku meza bafata amafunguro kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza, hari kandi umusore wari uri gusunika umusaza mu kagare gahabwa abageze mu zabukuru kugira ngo kabafashe kujya ahantu henshi hatandukanye.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi uri kumufasha gukoresha agakoresho bifashisha, mu gihe umuntu atakibasha kugenda kamufasha kugira ngo abashe gukomera amagufwa, mu gihe kizaza azabashe kugenda neza kandi akomeye.

Umukecuru n'umusaza bicaye mu rugo, umusaza ari kureba imiti yahawe imufasha kumera neza ndetse ari gusuzuma ngo arebe ko imiti yahawe itarangije igihe, kugira ngo itaza kumugiraho ingaruka.

Umukecuru ugeze mu zabukuru uri muri jaride akora siporo ngororamubiri zimufasha kugira ubuzima bwiza ndetse yirinda n'indwara zifata abageze mu zabukuru mu gihe batakoze siporo, nko kurwara imigongo, kurwara imitsi, rubagimpande ndetse n'ibindi. Ari muri jaride kugira ngo abashe guhumeka umwuka mwiza ndetse siporo zigende neza.

Umuganga w'umukobwa uri kumwe n'umusaza ugeze mu zabukuru, ari kumupima indwara zitandukanye, harimo nk'umuvuduko w'amaraso kugira ngo abashe kumugira inama z'uburyo ashobora kuwirinda cyangwa se abashe kumuha imiti mu gihe asanze awurwaye.

Umupapa uri kumwe n'umwana w'umukobwa, afashe umupira wifashishwa mu mukino wa basikete, bari mu kibuga gikinirwamo uwo mukino, ari kwigisha umwana we uburyo bakina umukino nka basikete, ni umukino ukinwa hagamijwe kugira ngo abantu bige ibintu byinshi bitandukanye muri siporo ndetse banasabane hagati yabo.

Abantu barimo abakobwa ndetse n'abasore mu gikorwa cyo kwamamaza agakingirizo, mu mabara atandukanye kugira ngo abaturage birinde kwandura indwara zitandukanye zandurira mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye no kwandura imitezi n'izindi ndwara cyangwa se gutwara inda zitateganyijwe.

Ababyeyi bafite abana bari munsi y'imyaka ibiri bahuriye kwa muganga kugira ngo bafate inkingo ku ndwara zitandukanye kugira ngo hiringwa bagira ikibazo mu mikurire yabo mu gihe batafashe izi nkingo zigenewe abana batoya.

Uruhurirane rw'abakangurambaga abakozi mu nzego zitandukanye, ndetse n'abayobozi b'igikorwa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda rwa RBC mu gushishikariza Abanyarwanda kwirinda kanseri y'ibere, bisuzumisha ku gihe ndetse banihutira guhabwa inama ndetse n'imiti mu gihe bahuye n'icyo kibazo cya kanseri.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amakuru ajyanye n'ubuzima mu Rwanda cyatangaje ibimenyetso by'indwara ya diayabete nko kumva ushaka kwihagarika buri kanya, kumva urushyi ndetse no kubura ibiro kugira ngo abantu babimenye mu gihe yumvise afite ibimenyetso yihutire kwa muganga gufata imiti imufasha kumera neza.

Ku bufatanye n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda RBC, mu buryo bwo guhagarika icyorezo cya Covide, ingamba bashyizeho kugira ngo abantu bakirinde; harimo gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune, guhamagara umurongo mu gihe habonetse umuntu ufite ibimenyetso, gushyiramo metero hagati y'abantu ndetse no kwambara udupfukama.

Uruhurirane rw'abayobozi mu nzego zitandukanye, abakozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ndetse n'abanyeshuri, mu gikorwa cyo gushishikariza urubyiruko kwipimisha virusi itera SIDA ndetse no kuyirinda, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza buzira SIDA.

Jeannette Kagame madamu w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, atanga inama z'uburyo abantu bashobora kwirinda ibyo bibazo cyangwa se uburyo bashobora kubana neza n'abantu bafite ibyo bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe.

Abakozi babishinzwe mu byubuzi barimo abakobwa ndetse n'abasore mu gutanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Hari abaturage baje kwifashisha amaraso kugira ngo barebe ko ubuzima bwabo buhagaze ndetse n'abakoranabushake bari kuyobora abaturage mu bice bitandukanye kugira babashe kubona izo serivisi.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima muri gahunda yo gutanga inkingo ku baturage ku ndwara zitandukanye, hari umumama waje kwiteza urushinge bose hamwe bambaye udupfukamunwa tubafasha kwirinda indwara zandurira n'ubuhumekero cyangwa se n'izindi zandurira mu matembabuzi.

Abaganga bari kumwe n'abaturage mu kubasuzuma kugira ngo harebwe niba nta bibazo by'uburwayi bafite, mu gihe babibasangaye babashe kubaha imiti ibafasha kumera neza cyangwa se babagire inama z'uburyo bakwitwara, bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu rwanda arabisi, mu gushishikariza abanyarwanda kwirinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye, hari umusore ndetse numuma bafite icyapa, cyanditseho amagambo atewe inkunga na arabisi, ndetse ashishikariza abaturarwanda kwisuzumisha, indwara y'igituntu kugira ngo bivuze, mu gihe baba bafite iyo ndwara.

Ibitanda bishyirwa kwa muganga kugira ngo abarwayi babashe kuruhuka ndetse bahabwe imiti ibafasha kumera neza, nk'abarwaye indwara zitandukanye, ababyeyi bitegura kubyara ndetse n'abandi, hari kandi n'inzitiramibu zibafasha kwirinda kurumwa n'imibu itera malariya.

Umuganga uri kumwe n'umwana mutoya w'umukobwa ari kumupima ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso akoresheje igikoresho cyabugenewe, kugira ngo abashe kumugira inama mu gihe asanze adafite icyo kibazo cyangwa se abashe kumuha imiti mu gihe yamusanganye umuvuduko w'amaraso cyangwa se izindi ndwara.

Inyubako ikoreramo ibitaro bya Nyarugenge, ni inyubako nini kandi yubatse neza, ifite imiryango itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi kuri ibi bitaro, hari ibyapa kandi biyobora abantu bitewe n'aho bashaka kujya, hari kandi jaride irimo indabo ndetse n'ibyatsi by'amoko atandukanye.

Ikigo nderabuzima kiri ahantu hameze neza kandi gisa neza, hari abaforomo babishinzwe mu gutanga serivisi zitandukanye. Hari kandi abasekirite bashinzwe umutekano. Muri iki kigo nderabuzima, ruguru yacyo hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye. Muri iki kigo nderabuzima kandi harimo na jaride irimo indabo z'amoko atandukanye.

Ni kwa muganga hari ibitanda bishyirwaho abarwaye kugira ngo babashe kuruhuka ndetse bahabwe n'imiti ibafasha kumera neza, hari ibitanda bishyirwaho abarwaye indwara zitandukanye cyangwa se ababyeyi bagiye kubyara, hari kandi n'ibikoresho bifashisha mu gusuzuma abo barwayi kugira ngo bamenye indwara barwaye.

Inyubako isa neza kandi yubatse ahantu hameze neza, hari jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye, amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi muri iyo nyubako, ibigega birimo amazi akoreshwa n'ababa muri iyo nyubako.

Inyubako nini cyane irimo intebe, ameza, mikorofone; ikaba ikorerwamo inama zigiye zitandukanye; hari kandi n'aho umuyobozi uri gukoresha inama aba agomba guhagarara areba abo ari gukoresha inama.

Inyubako isa neza kandi yubatse neza ya kaminuza yigisha ibijyanye na hosipito iherereye i Butare, imbere yayo haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, hari kandi n'idarapo ry'igihugu mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hari jaride irimo indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ibitaro bitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hari umuryango ukoreramo ibijyanye n'ubuzima bw'amaso, batanga inama ndetse bagasuzuma kugira ngo abantu bafite uburwayi babashe guhabwa imiti ibafasha kumera neza ndetse bagirwe n'inama z'uburyo bakwirinda uburwayi bw'amaso.

Ibitanda bishyirwa kwa muganga hagashyirwaho abarwayi bafite ibibazo by'ubwoko butandukanye bakabasha kuruhuka kugira ngo bahabwe imiti ibafasha kumera neza, hari kandi n'inzitiramibu zikoranye umuti bararamo kugira ngo birinde kurumwa n'imibu ibatera malariya.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nka farumasi itanga imiti ku ndwara zitandukanye, abarwayi baba bandikiwe n'abaganga bakoherezwa muri farumasi kuyigura kugira ngo babashe gukira indwara bafite.

Abarwayi barwariye mu bitaro bikuru bashyirwa ahantu habugenewe kugira ngo babashe kubona ibikoresho bitandukanye. Haba ibibafasha mu kubongerera umwuka, kubongerera amaraso mu mubiri, kubongerera amazi mu mubiri kugira ngo babashe guhabwa imiti bakire neza kandi bagire ubuzima bwiza.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo hari icyapa kiyobora abantu baje kuri iki kigo nderabuzima, kugira ngo bamenye aho babariza serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, baje gushaka. Harimo abantu bari kuvamo ndetse n'abari kujyamo, haba abagiye gushaka serivisi ndetse n'abavuye kuzisaba.

Ababyeyi baje gupimisha abana bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'abakozi babishinzwe mu gupima abana kugira ngo harebwe imikurire yabo babashe kugira inama ababyeyi kugira ngo bi bite ku mirire y'abana babo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza ndetse n'imikurire yabo imere neza.

Inyubako nini yubatse neza kandi isa neza, iri ahantu hameze neza, hari indabo z'amoko atandukanye, ibiti by'ubwoko bwose, hari kandi intebe zicarwamo abantu bari gufata umuyaga wo hanze, kugirango babashe kumera neza.

Inyubako isa neza kandi yubatse neza, ikoreramo ikigo nderabuzima cyashagasha, gitanga serivisi zitandukanye mu bijyanye n'ubuzima. Hari abantu bicaye hanze bategereje kwakirwa kugira ngo babe babasha kubona izo serivisi zitangirwa kuri iki kigo nderabuzima.

Kwa muganga hari inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi zitandukanye zubuvuzi, ku bantu barwaye cyangwa se ku babyeyi baje kwipimisha mu gihe batwite. Hari amazi abafasha gukora ibikorwa bitandukanye bikorerwa aha hantu, ndetse na jaride irimo indabo ndetse n'ibyatsi.

Ku kigo nderabuzima cya Kigina, gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hanze hari umumama uhetse umwana, waje kumusabira serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, nko kuba yahabwa imiti mu gihe arwaye cyangwa se gufata inkingo zihabwa abana batoya kugira ngo bagire imikurere myiza.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise zitandukanye z'ubuvuzi, hari kandi n'umuryango ukoreramo materinet bita inzu y'ababyeyi ishyirwamo ababyeyi bagiye kubyara ndetse n'ababyaye, kugira ngo birinde kuba babatembereza ahantu hatandukanye bakaba bahakura indwara zimwe na zimwe.

Mu bitaro kwa muganga hari ibitanda bishyirwaho abarwayi bafite indwara zitandukanye, hari kandi n'umugabo uri kuzinga supanete zishyirwa kuri ibyo bitanda kugira ngo abarwayi barindwe kurumwa n'imibu ibatera ibindi bibazo nko kurwara malariya ndetse n'izindi ndwara.

Ku kigo nderabuzima cya kigina hari inyubako zikoreramo ibikorwa bitandukanye mu ugutanga serivisi z'ubuvuzi hanze hari umubyeyi uhetse umwana waje gusaba serivisi ku iki kigo nderabuzima haba mu kumuha imitima igihe umwana arwaye cyangwa se kumuha inkingo zagenewe abana batoya.

Inyubako ikoreramo ibitaro bya Nyanza. Hari ibyapa ku muhanda, biyobora abantu bitewe na serivise bagiye kwaka bakamenya ibyumba bari bwinjiremo. Hari kandi mo imbere n'ibiti ndetse n'indabo by'ubwoko butandukanye, muri iyi nyubako.

Inyubako yo kwa muganga, hari umuryango ukoreramo inzu y'ababyeyi bashyiramo ababyeyi bagiye kubyara ndetse n'abamaze kubyara, kugira ngo birinde kuba bazerera ahantu hatandukanye babe bakandura indwara. Imbere yayo hari jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo abagabo, abagore abakobwa ndetse n'abasore abana batoya ndetse n'ababyeyi bahetse abana bari aho bakirira abagana ikigo nderabuzima kugira ngo babashe guhabwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Umuganga w'umugabo uri kumwe n'abaturage mu kubaha serivisi z'ubwoko butandukanye. Afite agakoresho bifashisha bumva imiterere y'umutima, anabagira inama z'uburyo bagomba kwirinda kugira ngo birinde ibibazo bitandukanye harimo nko kurwara umutima, ndetse no kurwara izindi ndwara zitandukanye.

Umupapa uri kwa muganga aryamye ku gitanda kugira ngo aruhuke ndetse abashe no guhabwa imiti imufasha kumera neza. Bamushyizeho ibyuma byabugenewe mu kumufasha kugenda neza k'ubuzima bwiwe ndetse yambaye n'agapfukamunwa kamurinda kwandura indwara zandurira mu buhumekero.

Kwa muganga hari intebe zicarwaho n'abarwayi bategereje guhabwa serivise zitandukanye, hari kandi n'icyuma gikoreramo umuganga ukoramo ibijyanye no kuvura amaso agatanga imiti ku bantu bafite ibyo bibazo cyangwa se aka abagira inama kugirango abashe gukira iyo ndwara y'amaso.

Inyubako ikoreramo ibitaro bya Nyarugenge. Ni inyubako nini kandi yubatse neza, ikaba ifite ibyumba bitandukanye bitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Hari jaride zirimo indabo ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye imbere y'iyi nyubako.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Tabarwe. Ni ikigo nderabuzima cyubatse neza kandi gisa neza gifite jaride irimo indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, hari kandi n'abantu mu ngeri zitandukanye baje kwaka serivisi zitandukanye kuri iki kigo nderabuzima, haba kubona imiti bitewe n'indwara barwaye, gupimisha abana bareba imikurire yabo ndetse no gupima abagore batwite.

Ku bitaro bya Gihundwe, ni ibitaro byubatse neza kandi bisa neza bifite jaride irimo indabo zimeze neza, hari aho bavurira amaso ndetse n'ahandi hatangirwa serivisi zitandukanye ku bantu bafite ibibazo by'indwara zitandukanye.

Abaganga bari mu bitaro bakora muri serivisi zitandukanye zitangirwa kwa muganga baba bambaye ibikoresho bibarinda nk'udupfukamunwa tubarinda kwandura indwara zandurira mu buhumekero ndetse baba bambaye na inifomo z'akazi zibaranga bitewe na serivisi bakoramo.

Inyubako yo kwa muganga ifite umuryango ukoreramo Isange one stop center, iherereye ku bitaro bya Kabutare, itanga inama ku bantu bahuye n'ihohoterwa kugira babarinde kuba bakwiyahura cyangwa se bahabwe imiti ibarinda kurwara mu gihe bakorewe ihohoterwa. Hanze hari abakozi babishinzwe mu gutanga izo serivisi.

Ku bitaro bya kabgayi imbere harimo inyubako zitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, abasekirite bashinzwe umutekano ndetse n'abashinzwe isuku muri ibi bitaro. Hari kandi na jaride irimo ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Kwa muganga hari ibitanda bishyirwaho abarwayi bafite indwara zitandukanye, kugira ngo babashe kuruhuka, ndetse banabone imiti ibafasha kumera neza, hari kandi n'abashinzwe gukora isuku, kugira ngo aba barwayi bongere kumva bameze neza, birinde indwara zakongera guterwa no kuba aho hantu hari umwanda.

Abarimu ku kigo cy'amashuri abakozi batandukanye bakora muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi bari mu kibuga cyo kwigisha abana batoya biga mu mashuri abanza uburyo bwo koza amenyo bakoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso kugira ngo birinde indwara zakandura bitewe no kutagirarira isuku amenyo yabo.

Inzu yubatse neza kandi isa neza harimo icyumba cyubakiwe ababyeyi ndetse n'impinja zabo kugirango ngo babashe kuba bari kumwe birinde gutembera ahantu hatabugenewe babe bakandura indwara zitandukanye.

Ni kwa muganga harimo ibyuma byabagenewe mu kwita ku barwayi kugira ngo ubuzima bwabo bwongere kugenda neza babarinde kuhaburira ubuzima, hari umugabo uryamye ku gitanda kugira ngo abashe kubona imiti imufasha kumera neza.

Abarwayi bari kwa muganga baryamye ku bitanda bishyirwa mu bitaro kugira ngo abarwayi babashe kuruhuka ndetse babashe no kubona imiti ibafasha kumera neza, hari kandi inzitiramibu zikoze umuti bararamo kugira ngo birinde kurumwa n'imibu itera malariya.

Abaganga bari gutembera mu bitaro kugira ngo babashe kugera ku barwayi batandukanye bamenye ibibazo bafite ndetse babashe kubaha imiti ibafasha kumera neza. Bose hamwe bambaye udupfukamunwa, tubafasha kwirinda indwara zitandukanye zandurira mu matembabuzi cyangwa se mu buhumekero.

Umurwayi waje kwa muganga kwivuza kugira ngo arebe ibibazo afite mu mubiri we bibashe gukemuka mu gihe yahawe imiti yabugenewe, hari umuganga uri kumufata amaraso kugira ngo barebe niba amaraso yiwe nta bibazo by'uburwayi birimo kugira ngo abone uko ahabwa imiti imufasha kumera neza.

Inyubako isa neza kandi yubatse neza ikoreramo ikigonderabuzima cya Rwerere. Itanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ku bantu bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi. Hari jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye kuri icyo kigonderabuzima.

Inyubako isa neza kandi yubatse ahantu hameze neza, imbere yayo haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, hari kandi n'ibyapa bigaragaza serivisi zitangirwa muri iyi nyubako, hari idarapo ry'igihugu cy'Urwanda mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hari kandi na jaride irimo indabo ndetse n'ibyatsi.

Abakozi bashinzwe gukora isuku mu bitaro kwa muganga, bambara ibikoresho bibarinda guhura n'ibibazo, nko gukomereka, cyangwa se bambaye udupfukamunwa tubarindarinda kwandura indwara zandurira mu matembabuzi, cyangwa se mu buhumekero, mu bitaro harimo abarwayi baryamye ku gitanda, kugira ngo babashe guhabwa imiti, ibafasha kumera neza.

Ibyo kwa muganga bishyirwaho abarwayi bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi kugira ngo babashe kuruhuka, ndetse babone n'imiti ibafasha kumera neza, ndetse n'inzitiramibu zikoranye umuti bararamo kugira ngo zibarinde kurumwa n'imibu itera marariya.

Ibitanda bishyirwa kwa muganga kugira ngo abarwayi babashe kuruhuka ndetse babashe kubona imiti ibafasha kumera neza, hari ibishyirwaho abarwayi bafite indwara zitandukanye, ababyeyi bitegura kubyara ndetse n'abandi bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye.

Inyubako nini kandi zubatse neza ndetse zubatse mu madizayini atandukanye, zikaba zifite imiryango itangirwamo serivisi zitandukanye, imbere yazo hari jaride irimo indabo, ibyatsi by'ubwoko butandukanye, bituma aha hantu harushaho kuba heza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe mu gusuzuma abarwayi bakamenya indwara bafite ndetse n'igitanda bashyirwaho bakaruhuka, bakabasha guhabwa imiti ibafasha kumera neza kugira ngo bongere bagarure ubuzima bwiza.

inyubako ndende isa neza kandi yubatse neza y'ibitaro bya Rwamagana, imbere yayo hari abakozi mu ngeri zitandukanye bakora muri serivisi zitandukanye zitangwa muri ibi bitaro. Hari kandi na jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye mbere y'iyi nyubako.

Inyubako ikoreramo ikigo nderabuzima cya Gishweru itanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi haba kuvura abarwayi ndetse no gupima ababyeyi batwite cyangwa se gufasha ababyeyi bitegura kubyara, hanze hari abaturage bari baje gusaba serivisi zitandukanye kuri iki kigo nderabuzima.

Ku bitaro bya kabgayi mu imbere harimo ibiti ndetse n'ubusitani umurwayi ashobora kwicaraho mu gihe agitegereje ko bamufasha akaruhuka neza ndetse harimo n'umuriro rwa w'amashanyarazi ushobora kwifashishwa mu gihe bagize abarwayi ba nimugoroba harimo kandi n'abashinzwe gukora isuku muri ibyo bitaro.

Ku bitaro bya Butaro hari abakozi ndetse n'abayobozi b'ibi bitaro, bari muri jaride irimo indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, batanga serivisi z'ubuvuzi zitangirwa kuri ibi bitaro.

Abantu mu ngeri zitandukanye bari ku murongo basaba serivisi zitandukanye ziri gutangirwa aha hantu, hari kandi n'ababana n'ubumuga bicaye mu gakoresho bita akagare gahabwa abagize ibibazo mu ngingo, kugira ngo babashe kujya ahantu henshi hatandukanye bakifashishije.

Inyubako ikoreramo ikigonderabuzima cya Gisenyi hari abantu mu ngeri zitandukanye baje kwaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi haba abaje kwivuza indwara zitandukanye, ababyeyi baje gukingiza abana ndetse n'abaje kwipimisha mu gihe batwite.

Kwa muganga hari ibitanda bishyirwaho abarwayi bafite indwara z'ubwoko butandukanye, kugira ngo babashe kuruhuka bakomeze gufata imiti izabafasha kumera neza, hari kandi n'ibikoresho byifashishwa mu gukomeza kureba uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ababyeyi bari kwa muganga baryamye ku bitanda byashyizweho kugira ngo abarwayi babashe kumva bameze neza ndetse banaruhuke mu gihe bategereje guhabwa imiti, hari umuganga uri kumwe n'umurwayi amubaza uko ameze kugira ngo amenye ubwoko bw'imiti ari buze kumuha.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise zitandukanye, hari igikoresho bifashisha abazimye ahantu hatatswe n'inkongi y'umuriro, hari kandi n'umuryango ukoreramo maternet ushyirwamo ababyeyi bitegura kubyara ndetse n'ababyeyi babyaye, bari kumwe n'abana babo.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hari umuryango ukoreramo inzu y'ababyeyi ishyirwamo ababyeyi bagiye kubyara cyangwa se ababyaye, hanze hari intebe zicarwaho n'abarwayi bategereje kubona serivisi zitandukanye ndetse n'icyuma bifashisha abazimye ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Inyubako yubatse neza kandi isa neza mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hari umumama wicaye mu kagare gafasha abantu bafite ubumuga bw'ingingo mu gihe batabasha kugenda kakabafasha kujya ahantu hatandukanye, hari kandi jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye, ikigega gifata amazi akoreshwa mu bikorwa bitandukanye.

Ku bitaro by'umwami Fayisali hari inyubako ya etaje, havurirwa indwara zikomeye, kandi z'ubwoko butandukanye, hari imiryango iba ishyirwamo abarwayi bafite ibibazo byihutirwa, imbere y'ibi bitaro kandi hari jaride irimo ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Inyubako isa neza kandi yubatse neza irimo umuryango ukoreramo batereretse inzu bashyiramo ababyeyi bamaze kubyara abitegura kubyara cyangwa se abagiye kubyara imbere yayo hari abakozi babishinzwe mu kwita kuri abo babyeyi ndetse no kwita ku bana bavutse.

Umubyeyi uryamye ukamaganga ku bitaro bishyirwayo kugira ngo abarwayi babashe kuruhuka ndetse babone no guhabwa imiti ibafasha kumera neza. Hari ibyuma byabugenewe bibasuzuma kugira ngo hamenyekane indwara barwaye bamenye n'ubwoko bw'imiti bari bubahe.

Kwa muganga harimo ibitanda bishyirwaho abarwayi mu ngeri zitandukanye ndetse bafite n'ibibazo by'uburwayi kugira ngo babashe kuruhuka, babashe kubona imiti ibafasha kumera neza, hejuru yabo hari inzitiramibu zibafasha kwirinda kurumwa n'imibu itera Malariya.

Inyubako nini yubatse neza kandi isa neza, imbere yayo hari jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye, ifite imiryango ikoreramo ibigo bitandukanye bitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi n'icyumba gishyirwamo ababyaye, aho babyarira, aho bakorera sajari ndetse n'icyumba cy'abagabo.

Imbuto, imboga ndetse n'andi mafunguro harimo sitoroberi, imineke, amagi, inyama shufureri, ibitunguru ibihumyo ndetse n'insin zitegurwa kuri buri muryango kugira ngo babashe kurya indyo yuzuye kandi ifite ubuziranenge ibafasha kugira ubuzima bwiza mu mikurire yabo ya buri munsi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo harimo inkweto za siporo, akuma bifashisha abapima uburyo umutima umeze ndetse n'imbuto ndetse n'imboga zifashishwa mu gutegura amafunguro kugira ngo ubuzima bukomeze kumera neza.

Akadege gatoya gafite ibara ry'umutuku kifashishwa kwa muganga kugirango ngo kabashe kugeza imiti mu bitaro bitandukanye ibashe guhabwa abarwayi bari muri ibyo bitaro kugira ngo babashe kuba bamera neza bitewe n'indwara barwaye.

utu bogisi dufite ibara ry'umutuku turimo ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu gihe umuntu ahuye n'ikibazo hari imiti yakwifashishwa mu gihe umuntu agize igikomere, igihe umuntu ahuye n'imvune cyangwa se igihe umuntu ababara umutwe mu nda ndetse n'ahandi.

Agakoresho bita akagare gahabwa abageze mu zabukuru mu gihe batakibasha kugenda ndetse kaba gahabwa n'abandi bagize ibibazo bakaba bafite ibibazo mu ngingo, bituma batabasha kugenda, kabafasha kujya ahantu henshi hatandukanye bakifashishije.

Imipira itandukanye ikoreshwa mu mikino y'ubwoko butandukanye nka basketbal, football, rugby ndetse na tennis ndetse n'ibikoresho bifashisha mu gihe bari gukina iyo mikino kugirango badahura n'impanuka zitandukanye.

Amategeko n'amabwiriza yashyizweho mu gihe kicyorezo cya Covid cumi n'icyenda kugira ngo abantu babashe kwirinda harimo kuguma rugo mu gihe urwaye, kwikinga inkoko mu mazuru mu mugihe ugiye kwitsamura ,gukaraba neza mu ntoki ,gushyiramo intera nka metero hagati yawe na mugenzi wawe, gukaraba mugihe uvuye muri siporo ndetse n'ibindi.

Umusore mutoya w'umwirabura uri kunywa amazi akoresheje konteyine, amazi atuma umuntu abasha kwirinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye ziterwa no kubura kw'amazi mu mubiri w'umuntu, ikindi kandi akaba ari n'isoko y'ubuzima kuri buri muntu wese.

Agakoresho kifashishwa n'abantu bagize ibibazo by'impanuka cyangwa se bageze mu za bukuru batakibasha kugenda, haba abafite ikibazo mu mugongo, abafite ikibazo mu ngingo, bakabasha kugira ngo babashe kuba bajya ahantu henshi hatandukanye, bakoresheje aka gakoresho.

Umupira bifashi bakina umukino wa futubolo, inkweto zabugenewe mu gukina uwo mukino ndetse n'ibikoresho bifashisha bapima imiterere y'imitima y'abakinnyi bakina uwo mukino, kugira ngo babashe kujya mu kibuga bameze neza.

Umukobwa wambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'agasengeri gafite ibara rya pinki, ari gukora siporo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zitandukanye, haba indwara zifata mu ngingo mu mitsi ndetse n'ahandi hatandukanye mu mubiri.

Umuganga wabihuguriwe mu kuvura imvune cyangwa se ibindi bibazo bifata mu ngingo, ari kuvura umuntu wagize ikibazo mu ivi kugira ngo yongere kumera neza, mu ijosi rye harimo akantu kifashashishwa mu gupima umutima kugira ngo bamenye uko ubuzima buhagaze.

Ababyeyi ndetse n'umuganga, hari umwana uri gusuzumwa ibijyanye n'ubuzima bw'amenyo kugira ngo harebwe niba hari ikibazo kirimo abashe kuba yahabwa imiti, cyangwa se akaba yagirwa inama kugira ngo yirinde ibibazo bishobora gufata amenyo.

Imodoka yo mu bwoko bwa ambulance yifashisha y' imbangukiragutabara ku bitaro, itwara abarwayi bafite ibibazo byihutirwa cyangwa se abafite ibibazo bikomeye kugira ngo abashe kugezwa ku bitaro bikuru batarahura n'ingaruka zitandukanye.

Abantu bari muri siporo ngororamubiri zo kwiruka zibafasha kugorora imitsi ndetse ubuzima bwabo bukagenda neza, siporo kandi n'ingenzi mu buzima bw'umuntu kuko zimufasha kugabanya siterese, agakomeza kugira ubuzima bwiza. Zifasha kandi abari kuzikora gusabana hagati yabo bakongera ibyishimo.

Amakipe abiri atandukanye ahujwe n'umukino w'umupira w'amaguru, hari ababishinzwe bari gufasha umuntu wagize ikibazo k'imvune, kugira bamukorere iby'ibanze, abashe kuba yasubira mu mukino ameze neza cyangwa se abashe kuba yajya hanze y'ikibuga yongere kumera neza.

Umukobwa uri muri siporo yambaye ekuteri z'umweru isengero rifite ibara ry'ubururu ari kunywa amazi amufasha kugira ngo akomeze kumera neza mu mubiri we, amazi atuma umuntu yirinda indwara nyinshi zitandukanye ndetse ubuzima bwe agakomeza kugenda neza mu gihe afite amazi ahagije mu mubiri we.

Umukobwa uri mu rugo, uri gukora siporo ngororamubiri zimufasha kugira ubuzima bwiza. Siporo kandi zifasha umuntu wazikoze kwirinda indwara zimwe na zimwe, zifata abantu mu gihe batakoze siporo ndetse zikabasha kurinda umubiri we kugira ngo udasaza vuba.

Umusore wambaye kuteri na ti sheti y'umweru ndetse n'isaha ku kaboko ari kunywa amazi, amazi yifashishwa mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza impyiko ze zimere neza mu gihe zabonye amazi ahagije ndetse n'amaraso abashe gutembera mu umubiri mu gihe umuntu afite amazi ahagije mu mubiri wewe.

Imbuto, imboga ndetse n'andi mafunguro harimo ibitunguru, insenda, shufurere, ibihumyo imineke, sitarawuberi, amagi, inyama ndetse n'ibindi byifashishwa mu miryango itandukanye kugira ngo bategure ifunguro ryujuje intungamubiri zitanga vitamine z'ubwoko butandukanye mu mubiri w'umuntu.

Abarwayi barimo abaryamye ndetse n'abicaye ku bitanda byo kwa muganga byashyizweho kugira ngo babashe kuruhuka ndetse babashe guhabwa n'imiti ibafasha kumera neza. Hejuru yabo hari inzitiramubu zibafasha kwirinda kurumwa n'imibu itera malariya.

Agakoresho gakoreshwa n'abaganga, bakifashisha bapima imiterere y'umutima w'umuntu kugira ngo bumve uko umutima we uhagaze. Mu gihe basanze afite ibibazo, babashe kumugira inama zamufasha kumera neza cyangwa se bamuhe n'imiti.

Umugabo uri gukora siporo ngororamubiri akoresheje ibikoresho byabugenewe bimufasha gukora siporo neza ndetse hari n'undi mugabo uhagaze uri kumutoza uburyo akoresha ibyo bikoresho, kugira ngo siporo zibashe kugenda neza, zimufasha kugira ubuzima bwiza mu gihe yazikoze neza.

Umuntu uri muri siporo zimufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kuba umuntu adakora siporo haba kuba yarwara mu ngingo ndetse no kuba yarwara mu mitsi, hari kandi n'akamaro ka siporo kagaraga harimo nko kuba igabanya umuvuduko w'amaraso, igabanya sitiresi ndetse igafasha n'igogora.

Umukobwa ukiri muto w'imibiri yombi, yambaye imyenda yabugeneye mu gukora siporo ngororamubiri zimufasha kugira ubuzima bwiza mu gihe yakoze siporo, hari kandi n'icupa ry'amazi, ari gukoresha anywa amazi, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza, mu gihe ari gukora siporo.

Umukobwa uri kwa muganga wagize ikibazo cyo gukomereka, ariko akaba yashyiriweho igipfuko kimurinda kwandura izindi ndwara ziterwa no kuba igisebe cyiwe kidapfutse, cyangwa se kimufasha gukira neza mu gihe igisebe cye gikurikiranwe kigashyirwaho imiti yabugenewe.

Umuganga ubishinzwe mu kuvura imvune cyangwa se ibindi bibazo bifata mu ngingo. Hari umuntu waje kwivuza yagize ikibazo hagati y'ikirenge ndetse n'ukuguru, bari kumushyiriraraho ibikoresho byabugenewe mu kumufasha mu gihe imitsi yaba yikanze cyangwa se yaba yaravunitse.

Umusore n'umukobwa bari muri siporo zibafasha kugira ubuzima bwiza mu gihe bakoze neza siporo ngororamubiri, bafite amacupa y'amazi abafasha kubongerera imbaraga, mu gihe bari gukora siporo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Umukobwa uri mu rugo, akora siporo ngororamubiri, zimufasha kugira ubuzima bwiza ndetse zikanamurinda indwara zitandukanye, arimo arakora siporo anywa n'amazi amufasha kumwongerera imbaraga mu gihe ari gukora siporo ndetse yumva n'umuziki umwongerera kuraje.

Imbuto n'imboga zirimo inyanya, tungurusumu, ibinyobwa, pome, urusenda, ndetse na avoka zigurwa mu masoko atandukanye zikajyanwa mu rugo kugira ngo umuntu abashe gutegura ifunguro ryujuje intungamubiri zigufasha kugira ubuzima bwiza.

Ibiti biteye mu murima bishobora kuvamo imiti y'ubwoko butandukanye bitewe n'indwara ihari ndetse bikaba byanavamo ibikoresho bitandukanye mu gihe byamaze gukura, bikavamo nk'imbaho zikoreshwa mu bintu bitandukanye nko gukora: ameza, inzugi, intebe ndetse n'ibindi bikoresho.

Umuntu ufite uburoso bwagenewe mu koza amenyo ndetse ari gukoresha n'umuti ukozwe mu kimera bita igikakarubamba, ni ikimera cyifashishwa mu gukora umuti wabugenewe mu koza amenyo ukaba urinda indwara zimwe na zimwe ndetse ukaba ukesha amenyo.

Ubwoko bw'imiti yabugenewe mu koza amenyo kugira ngo amenyo ase neza kandi ahore afite isuku, ukozwe mu kimera bita igikakabamba gifasha gusukura amenyo neza ndetse kikarinda n'indwara zishobora gufata amenyo mu gihe atasukuwe mu buryo bumeze neza

Ibiti bishyirwa mu bihoho, bigashyirwa ahabugenewe kugira ngo bibanze kwitabwaho, mbere yo kujyanwa mu murima aho bigomba guterwa kugira ngo babirinde kuma mu gihe byaba byashyizwe mu murima bitarakura neza, bikaba bivamo ibikoresho bitandukanye bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye bishobora kwifasha nko kuvanwamo ibicanwa, byifashishwa n'abantu mu guteka ibyo kurya, bikavamo imiti y'indwara zimwe na zimwe, ibiryo by'amatungo cyangwa se bikaba byavanwamo ibikoresho bitandukanye bikenerwa mu rugo.

Umuti wabugenewe mu koza amenyo ukoze mu kimera bita igikakarubamba ufasha koza amenyo agasa neza ndetse agahora acye, ndetse ukaba urinda indwara zimwe na zimwe zifata amenyo mu gihe hakoreshejwe imiti itarabugenewe cyangwa se mu gihe amenyo yasukuwe mu buryo butameze neza.

Umuti wabugenewe mu koza amenyo agasa neza kandi agahorana isuku, ufasha abantu kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kutagirira isuku amenyo cyangwa se ziterwa no kogesha amenyo umuti utarabugenewe.

Ibiti bimera mu ishyamba bikaba byakifashishwa mu kuvanwamo imiti y'indwara zitandukanye cyangwa se ibiryo by'amatungo mu gihe bikuze bikavamo ibikoresho bitandukanye bikorwa hifashishijwe ibiti nk'imbaho zivamo intebe, ameza utubati ndetse n'inzugi.

Ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye, byifashisha mu bikorwa bitandukanye, kuko bishobora kuvamo imiti ivura indwara zimwe na zimwe, cyangwa se bikavamo ibiryo by'inyamaswa ziba muri iri shyamba, mu gihe bivuze bikaba byavanwamo nk'amakara akoreshwa mu gucana cyangwa se ibindi bikoresho.

Urubuto rwo mu bwoko bw'ipapayi ni rumwe mu mbuto ziryoha kandi zituma umuntu yumva ameze neza mu mubiri ,ni imbuto kandi yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye haba constipation ndetse n'izindi zindi.

Ibimera by'ubwoko butandukanye bishobora kuvamo imbuto ziribwa n'abantu cyangwa se bikaba byavamo ibiryo by'amatungo, bishobora kandi kuvanwamo n'imiti ivura indwara zimwe na zimwe zitandukanye cyangwa se mu gihe byakuze bikaba byavanwamo ibikoresho bitandukanye.

Ibiti by'ubwoko butandukanye bimera mu ishyamba bivamo imiti y'indwara zitandukanye ndetse byakora bigavamo ibikoresho bitandukanye bikorwa hakoreshejwe imbaho n'intebe, ameza, inzugi ,utubati ndetse n'ibindi.

Ishyamba ririmo ibiti ndetse n'ibyatsi bivamo imiti y'indwara zitandukanye, byakura bikavamo ibikoresho bitandukanye nk'imbaho zivamo ibikoresho byo mu nzu harimo intebe, inzugi, ameza ndetse n'ibindi bikoresho bikorwa hakoreshejwe ibiti.

Ikimera bita igikakarubamba cyifashishwa mu kuvanwamo imiti y'indwara zitandukanye ndetse kikaba kinavamo n'umuti wifashishwa mu koza amenyo, kikaba kirinda indwara zifata amenyo mu gihe hakoreshejwe imiti itarabugenewe.

Igiti giteye mu murima, hari ikiganza kiri gusuzuma ko cyaba cyatangiye kuzana indabo mu gihe gitanga imiti y'ubwoko butandukanye cyangwa se kikaba cyavamo ibikoresho bitandukanye mu gihe cyakuze, harimo nk'ameza, inzugi ndetse n'intebe.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye, haba ibimera mu ishyamba ndetse n'ibiterwa mu murima, bikaba byavanwamo imiti y'indwara zimwe na zimwe cyangwa se bikavamo ibiryo by'amatungo, bikifashishwa mu kuvanwamo ibikoresho bimwe na bimwe bitandukanye mu gihe byakoze.

Ishyamba harimo ibiti by'ubwoko butandukanye, bivamo imiti y'indwara zimwe na zimwe, ndetse byakura bikavanwamo ibikoresho bitandukanye bikorwa hakoreshejwe imbaho. Nk'intebe, ameza, utubati, inzugi, ndetse n'ibindi.

Uruhurirane rw'abantu bari muri pepenyeri yubatswe igashyirwamo ibiti bikiri bito kugira ngo ivomererwe, bizabashe guterwa mu murima bimeze neza, bikaba bivamo imiti y'ubwoko butandukanye cyangwa se bigakura bikavamo ibikoresho bitandukanye.

Igiti giteye hafi y'umugezi kibasha kubona amazi ahagije kugira ngo gikure neza kuko kivamo imiti y'indwara zitandukanye cyangwa se kikaba cyavamo ibiryo by'amatungo cyangwa se n'izindi nyamaswa, kikaba gikura kikavamo ibikoresho bitandukanye bikorwa hifashishijwe imbaho.

Ibiti bimera mu ishyamba bikaba byavamo imiti y'indwara zitandukanye cyangwa se bikavanwamo ibiryo by'amatungo, ndetse byakura bikavanwamo ibikoresho bitandukanye bikorwa hifashishijwe imbaho harimo nk'ameza, intebe, inzugi, ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu.